Gutangiza amashuri abana bakiri bato, ni imwe muri gahunda zashyizweho na guverinoma y'u Rwanda, nka bumwe mu buryo bwagaragaje ko bufasha abakiri bato gukunda ishuri, aho kandi batangira kwitegura ubumenyi bw'ishuri hakiri kare binyuze mu marerero, abanyeshuri bakaba bahurizwa hamwe, bagahabwa abarimu babigisha cyane cyane binyuze mu ndirimbo ndetse n'imikino, bamwe mu bibafasha mu gukunda ishuri.

Abana b'abanyeshuri biga mu kiburamwaka, bazengurutse umukeka, bari gukina na mwarimu wabo, iyo akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'uburezi ko gukina n'abana bakiri bato, bibabafasha kumva neza ibyo ubigisha, bityo bikanabategurira mu mutwe, bityo bakabasha gukunda ishuri bakiri bato.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, igizwe n'amashati y'imihondo ndetse n'ikabutura y'umukara. Bari mu ishuri aho bari imbere ku kibaho, bitoza kwandika inyuguti zitandukanye. Iyi akaba ari imwe mu myitozo bahabwa igihe bakiri bato kubafasha kuzamura ubumenyi, ndetse n'ubushobozi bwabo mu gufata mu mutwe ndetse no kwandika.

Abana b'abanyeshuri bato cyane biga mu mashuri y'incuke, bambaye impuzankano yabugenewe, aho bagiye gukurikirana amasomo yabo, ibi akaba ari mu bitangwamo inama n'impuguke mu by'uburezi, ko iyo abana bakundishwa ishuri bakiri bato, cyane cyane bigishwa mu mikino, mu ndirimbo, ndetse n'ibindi bibafasha gukunda ishuri, bityo bikazamura ireme ry'uburezi.

Abanyeshuri batonze umurongo bakaraba amazi meza intoki ndetse n'isabune bafashijwemo n'abarimu babo. Mbere yuko bajya gufata amafunguro. Iyi akaba ari gahunda ikurikizwa na guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo gufasha abanyeshuri guhabwa amafunguro ku ishuri kugira ngo bagire imikorere myiza ndetse inaborohereza mu myigire yabo ya buri munsi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bicaye mu cyumba cy’ishuri, aho barimo gukurikirana amasomo arimo gutangwa n’umwarimu wabo wambaye itaburiya, ari imbere yabo. Aya mashuri akagenda agaragara hirya no hino mu gihugu, afasha abaturage kugerwaho na serivisi z’uburezi, ndetse mu ngeri zose. Aho kandi, bahabwa uburezi bufite ireme bubafasha mu gukemura ibibazo bigaragara hirya no hino muri sosiyete.

Abana bato cyane b'incuke biga mu mashuri y'incuke, barimo kuganira na mwarimu wabo, bicaye ku mukeka hasi, kandi bitabwaho, bigishwa mu buryo bw'indirimbo ndetse n'imbyino nka bimwe mu bibafasha mu gufata mu mutwe vuba amasomo bize, nk'uko bigaragazwa n'impuguke mu by'uburezi.

Abana bato cyane b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, bicaye bazengurutse ameza, aho biga mu mashuri y'inshuke. Iyi akaba ari muri gahunda yashyizweho na Guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo gutegura abakiri bato bakundishwa ishuri, aho bahabwa ubumenyi bw'ibanze bafasha mu gukunda ndetse no kumenyera ibikorwa by'ishuri hagamijwe kuzamura ireme ry'uburezi.

Hirya no hino mu gihugu, guverinoma y'u Rwanda yubaka amashuri ndetse n'ibigo bifasha abanyeshuri, ndetse n'abandi baturage baturiye aho, kugerwaho na serivisi z'uburezi nta we uhejw,e. Aha akaba ari hamwe mu kigo cy'ishuri, hagaragara abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, aho baje gukurikirana amasomo yabo, ndetse banitabwaho n'abarimu babo.

Ibikuta by'umweru bishushanyijeho abana ndetse n'ibendera ry' igihugu cy'u Rwanda, imbere yabyo hari ubusitani bwiza cyane aha akaba ari mu kigo cy'amashuri y'inshuke aho abanyeshuri bajyanwa bakigishwa bitabwaho n'abarezi babitaho ndetse babamenyera mu mutwe mu rwego rwo kubafasha gukunda ishuri ndetse no kugira imirere bwiza.

Ikigo cy'amashuri gifite ibyicungo ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abanyeshuri igihe barimo kuruhuka mu mutwe, nka kimwe mu bisubizo byatanzwe n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe, kigaragaza ko iyo abana bakina, bakina imikino itandukanye, ndetse banifashishije ibikoresho binyuranye bibafasha gukangura ubwonko bwabo, bityo bagakurikira amasomo nta nkomyi.

Hirya no hino mu Gihugu Guverinoma yubatse amashuri mu rwego rwo gufasha abaturage kugerwaho na serivisi nziza z'uburezi ndetse no gutanga uburezi budaheza hirya no hino mu Gihugu. Aho kandi ibyumba birimo ibikoresho by'ibanze byifashishwa n'abarimu ndetse n'abanyeshuri mu gutanga serivisi nziza z'uburezi harimo nk'intebe, ibibaho by'amashuri ameza, utubati, ndetse n'ibindi.

Gukina ndetse no kwidagadura ni bimwe mu bifasha abanyeshuri kuruhuka mu mutwe, aho bakurikirana amasomo yabo mu buryo bwiza ndetse bakabasha no gutsinda amasomo yabo, uko bigaragazwa n'impuguke mu buzima bwo mu mutwe, aho bagira inama abarimu ndetse n'abanyeshuri kwita ku buzima bwo mu mutwe baha akanya abanyeshuri ko kuruhuka mu gihe bakurikirana amasomo.

Ibyapa bimanitse ku nzugi z'inyubako icururizwamo imiti y'amatungo, inyongeramusaruro, imbuto ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi. Iyi akaba ari farumasi zigenda ziboneka hirya no hino mu gihugu aho kandi zitanga inama ku bahinzi ndetse n'aborozi zigamije kuzamura umusaruro wabo mu byo bakora mu bwinshi ndetse no mu bwiza.

Hirya no hino mu gihugu hagaragara ibyumba by'amashuri aho abanyeshuri bahererwa uburezi bakagaragaza uburezi kuri bose, aho hirya no hino ndetse no mu bice by'icyaro bagerwaho na serivisi nziza z'uburezi hari ibikoresho by'ibanze kandi nkenerwa mu mashuri nk'intebe, ibibaho ndetse n'ibindi.

Hirya no hino ku mashuri Guverinoma y'u Rwanda yatangije gahunda yo kugaburira abanyeshuri, aho barya ku mashuri mu rwego rwo kuzamura ireme ry'uburezi binyuze mu mibereho myiza y'abanyeshuri. Aha hakaba ari mu gikoni gitunganyirizwamo amafunguro agaburirwa abanyeshuri, igihe bakurikira amasomo yabo ku mashuri.

Abanyeshuri bambaye impuzankan bahetsi ibikapu, baje gukurikirana amasomo yabo muri kimwe mu bigo by'amashuri bibegereye, iyi akaba ari gahunda ya guverinoma y'u Rwanda yashyizweho mu rwego rwo gufasha abanyeshuri kuborohereza kugerwaho na serivisi nziza z'uburezi, hubakwa ibyumba by'amashuri byinshi hirya no hino mu gihugu.

Kimwe mu byumba by'ishuri byubatswe hirya no hino mu gihugu na guverinoma y'u Rwanda, mu rwego rwo kwegereza abaturage serivisi z'uburezi zibegereye, ahagaragara kandi ibikoresho bitandukanye byashyizwemo na guverinoma, harimo nk'intebe zo kwicaraho, ibibaho ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu gutanga uburezi bufite ireme.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, aho baje kwitabira amasomo yabo ku mashuri, bakaba bageze mu gihe cyo gufungura, iyi akaba ari gahunda yashyizweho na Leta y'u Rwanda mu rwego rwo gufasha abanyeshuri kugira imibereho myiza bahabwa amafunguro ku mashuri, nka bimwe mu bibafasha gukomeza kugira imyigire myiza batagira ibibarangaza.

Kimwe mu byumba by'amashuri byubatswe na Guverinoma y'u Rwanda hirya no hino mu gihugu, hagamijwe kwegereza uburezi abaturage ndetse no kuzamura ireme ry'uburezi harindwa ingendo ndende zakorwaga n'abanyeshuri bajya ku mashuri. Harimo kandi ibikoresho by'ibanze nkenerwa mu mashuri nk'intebe, ameza, ibibaho ndetse n'ibindi.

Igikuta gisize amarangi ymweru gishushanyijeho umwana uri kwirukanka, imbere yacyo hari ubusitani bwiza cyane. Iki akaba ari ikigo cy'amashuri cy'abana b'incuke, aho abana bitabwaho batozwa gukina ndetse banahabwa imikino itandukanye bagomba gukina, nka bimwe mu bibafasha gukunda ishuri ndetse bakanafata ibyo bigishijwe mu mutwe mu buryo bwihuse.

Hirya no hino mu gihugu Guverinoma yubatse ibyumba by'amashuri, mu rwego rwo korohereza uburezi abaturage hirya no hino mu tugari, aho kandi bubakiwe ubwiherero bufasha abanyeshuri ku mashuri byose bikagaragaza iterambere mu burezi, aho abanyeshuri bose bahabwa amahirwe angana ndetse bakitabwaho uko bikwiriye.

Ubwiherero ni kimwe mu bikorwa remezo by'ingenzi biboneka ahantu henshi hahurira abantu benshi, ndetse no ku mashuri ni hamwe muri aho, aho kandi bugirirwa isuku yihariye kugira ngo bufashe abanyeshuri kugira ubuzima, birinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda, bityo bikabafasha kuzamura ireme ry'uburezi.

Hirya no hino mu gihugu hagaragara ibigo by'amashuri bitandukanye bigamije gufasha abanyeshuri kubona aho babonera amasomo yabo ndetse badakozeza urugendo runini bagateza iterambere mu burezi, aho mu bice byose by'igihugu abantu bose bagerwaho n'uburezi kandi bwiza bufite ireme bitabagoye.

Mu rwego rwo kugereza uburezi kuri bose leta y'u Rwanda yubatse ibyumba by'amashuri hirya no hino mu gihugu, haba mu ntara, mu mijyi, ndetse no mu byaro, aho leta kandi yashyize ibikoresho by'ibanze nkenerwa mu mashuri mu rwego rwo gufasha abanyeshuri kugerwaho na serivisi nziza z'uburezi, ndetse banitabwaho n'abarimu b'impuguke.

Ibibuga by'imikino itandukanye ni bimwe mu bikorwa remezo bigaragara hirya no hino mu mashuri. Ibi bikaba ari mu rwego rwo gufasha abanyeshuri kugaragaza impano zabo ndetse no kuzibyaza umusaruro. Aho kandi impuguke mu by'ubuzima zigaragaza ko iyo abanyeshuri bakinnye imikino itandukanye bibafasha kuruhuka neza. Bityo bakaba bakurikirana amasomo yabo neza nta mpungenge.

Hirya no hino mu gihugu, hagaragara ibyumba by'amashuri bigenda byubakwa na guverinoma y'u Rwanda, mu rwego rwo gufasha abaturage kugerwaho na serivisi z'uburezi, hirya no hino mu midugudu ndetse no mu tugari, aho kandi aya mashuri ashyirwamo ibikoresho by'ibanze nkenerwa nk'intebe, ibibaho ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu gutanga uburezi.

Urukuta rusize ibara ry'umweru ruhushanyijeho abana bari mu mikino, uru rukaba ari urukikije ikigo cy'amashuri, aho abana bafatira ubumenyi ndetse bagahabwa n'ibikoresho by'ibanze bibafasha mu kwidagadura, nka bimwe mu bigaragaza ko abana bashobora kwisanzura ndetse bakagira imibereho myiza binyuze mu gukora imikino itandukanye.

Igikuta cy'umweru gisize irangi icyumweru gishushanyijeho umwana ufite ubumuga uri mu kagare umuyeshuri, iki akaba ari ikigo kigamo abana bafite ubumuga, bigaragaza uburezi kuri boso nta bahejwe, aho abantu bose mu Rwanda bagira amahirwe angana yo kubona uburezi ndetse kandi ku gihe.

Hirya no hino mu mashuri makuru ndetse n'abanza hagaragara ibyumba byagenewe gusomerwamo ibitabo, ibi byumba bikaba bifite ibitabo bifasha abanyeshuri gukora ubushakashatsi ndetse n'abarimu biyungura ubumenyi, bikagaragaza iterambere mu burezi aho abanyeshuri babona ibyangombwa nkenerwa bikenerwa kugira ngo bige neza.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'ishati ya bleu ciel ndetse n'amakabutura ya kaki aho baje gukurikirana amasomo yabo ku mashuri. Aha akaba ari mu mashuri yagiye yubakwa na Guverinoma y'u Rwanda hirya no hino mu Gihugu hagamijwe kuzamura ireme ry'uburezi abarimu ndetse n'abanyeshuri begerezwa amashuri hirya no hino mu Gihugu.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe bari mu kibuga aho bari gukina imikino itandukanye, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwamo n'impuguke mu by'uburezi ko abakiri bato iyo bigishijwe hifashishijwe imikino ndetse n'indirimbo bibafasha kwibuka neza ibyo bize, bityo bikabafasha gutegura ubwonko bwabo gufata mu mutwe mu gihe kiri imbere.

Uburezi bufite ireme ni imwe muri gahunda zashyizweho na Guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo gufasha abaturage cyane cyane abakiri bato kujijuka ndetse no guhabwa ubumenyi bw'ibanze, ndetse bw'ingenzi bakeneye kugira ngo bakemure ibibazo bitandukanye bigaragara muri sosiyete. Aho ikoranabuhanga kandi ari kimwe mu byashyizwemo imbaraga, aho abanyeshuri b'amashuri abanza, ayisumbuye ndetse n'andi bose bahabwa ibikoresho by'ikoranabuhanga bibafasha kwiga neza ndetse no gukora ubushakashatsi ku masomo yabo ya buri munsi.

Umwarimukazi wambaye ibitenge urimo kugenda mu kigo cy'amashuri, iruhande rwe hari ubutani bwiza cyane bukikije amashuri atangirwamo ubumenyi, ibi bigaragaza iterambere mu rwego rw'uburezi aho abanyeshuri bagira kwisanzura ndetse bakagira n'ibidukikije bitaho.

Abanyeshuri bari mu kigo cy'ishuri bambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara. Aho bavuye gufata amafunguro mu nyubako bafatiramo amafunguro nk'uko hirya no hino ku mashuri abanyeshuri bahabwa amafunguro mu bigo kubafasha kugira ubuzima bwiza. Bityo agamije ko bazamura uburezi.

Abanyeshuri bari mu kigo cy'ishuri bambaye impuzankano yabugenewe, aho bahuriye mu kibuga barimo kuganira n'abayobozi babo bahugurwa ndetse banungurana ibitekerezo, bagirwa inama y'imyitwarire bagomba kugaragaza mu gihe bari mu biruhuko birinda kugwa mu bishuko, ndetse n'izindi ngeso mbi zose zabicira ejo hazaza.

Icyapa kinini cyane kimanitse ku marembo y'ikigo cy'amashuri cya Mukingi Secondary School, aha akaba ari ahatangirwa uburezi ndetse n'izindi serivisi zinyuranye zijyana na bwo; abanyeshuri bahabwa uburezi bw'ibanze bubafasha mu guhangana n'ibibazo bitandukanye, bityo bakaza kuba ibisubizo muri sosiyete ku bibazo bihari.

Inyubako nyinshi cyane zikoreramo ikigo cy'amashuri imbere yacyo hari ubusitani bwiza ndetse hamanitse n'ibendera ry'igihugu, aha hakaba arimo ibirango biranga mashuri kandi abanyeshuri bagenerwa ibibuga bagomba kwisanzuramo bidagadura nka bimwe mu bibafasha kuruhuka mu mutwe bagakurikirana amasomo yabo neza.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, igizwe n'amashati y'umweru ndetse n'amakabutura ya kaki, bicaye mu kibuga rwagati mu kigo cyabo, barimo kuganirizwa na mwarimu wabo, babahugura ndetse banababwira akamaro ko kwitwara neza mu gihe bari mu biruhuko, nka bimwe mu byabafasha mu kwirinda mu kugwa mu bishuko, ndetse n'izindi ngeso mbi zakangiriza ejo hazaza habo.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, igizwe n'ishati y'umweru ndetse n'amakabutura ya kaki, aho bari mu bikorwa byo gusenga, imbere yabo hari umusaraba munini cyane umanitse aho barimo gusenga. Iyi akaba ari imwe muri gahunda zashyizweho n'amashuri mu rwego rwo kubafasha kwiragiza Imana ndetse no kunoza imitangire myiza ya serivisi z'uburezi.

Amasomero ni kimwe mu bikorwa remezo bigenda biboneka hirya no hino mu mashuri ndetse n'ahandi hatangirwa uburezi, kubera ko bifasha abarimu ndetse n'abarerwa kubungura ubumenyi, ndetse banabona ibitekerezo abakora ubushakashatsi ku ngingo zitandukanye bifashishije ibitabo biba biri mu masomero. Ibi bikagaragaza iterambere mu burezi hirya no hino mu gihugu.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, bahagaze imbere y'inyubako ikoreramo ikigo cy'amashuri cya groupe scolaire erenagweri, iki akaba ari ikigo gitanga uburezi, bunyuranye yaba ku bigaga amashuri makuru ndetse n'ayisumbuye, aho kandi abana bahabwa iby'ibanze bakenera mu buzima bwa buri munsi, bibafasha kugira imyigire myiza.

Hirya no hino mu gihugu uburezi bwegerejwe aûbaturage, hagaragara ibyumba by'amashuri bitandukanye, haba kanda hari ibikoresho byifashishwa n'abarimu, ndetse n'abanyeshuri mu koroshya ndetse no kuzamura ireme ry'uburezi. Hagaragaramo ibikoresho binyuranye nk'intebe zo kwicaraho, ibibaho, ameza ndetse n'ibindi byifashishwa mu kunoza imitangire myiza serivisi z'uburezi.

Inyubako nini cyane yubakishije amatafarihiye imbere yayo hari ibyapa bifite ibara ry'umweru bigaragaza ko ari inyubako z'ikigo k'ishuri cya groupe scolaire Indatwa n'Inkesha. Hakaba ari aho abanyeshuri bigishirizwa bahabwa indangaciro na kirazira bifasha mu gukemura ibibazo bitandukanye bikigaragara muri sosiyete ndetse no gutanga umusanzubo mu kubaka igihugu.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, aho abo bantu bafite utuyira bagenewe. Ku ruhande hagaragara kandi n'ibyapa bitandukanye biyobora abakoresha umuhanda bibamenyesha amakuru atandukanye. Aho basanga ibigo runaka ndetse n'ibindi, amakuru y'ingenzi yose umuntu yakenera.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zabugenewe batonze imirongo imbere y'amashuri yabo mu gitondo mbere y'uko bajya mu mashuri kugira ngo bahabwe amatangazo, iyi akaba ari muri gahunda zibera muri bimwe mu bigo by'amashuri agamije kureba n'abanyeshuri bitabira amashuri ndetse bose nta bibazo bitandukanye bahura nabyo bakabura aho babivugira.

Hirya no hino mu mashuri hagaragara ibikorwa remezo bitandukanye, bifasha abanyeshuri mu kuzamura imyigire yabo ndetse no kugira ireme ry'uburezi. Aha akaba ari mu nyubako y'isomero, ahagaragara ibitabo bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri ndetse n'abarimu, kugira ngo biyungure ibitekerezo ndetse banashakashaka ibintu bitandukanye, ku byo baba bigishijwe.

Aba b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, bahurijwe hamwe mu kibuga, aho barimo kuganira n'abayobozi ndetse n'abashyitsi babasuye ku ishuri, babahugurira imyitwarire bagomba kugaragaza mu gihe bagiyemo cy'ibiruhuko, nka bimwe mu bibafasha kwirinda ibishuko, ndetse n'ibindi byose byabashora mu ngeso mbi, bityo bakiyangiriza ejo habo hazaza.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, aho barimo kuganira n'abayobozi babo babungura ibitekerezo ndetse banagaragaza uruhare rwabo mu kuzamura iterambere ndetse n'imibereho by'abaturage aho ishuri ribarizwa, nk'abamwe mu cyiciro cy'abitezweho ibisubizo na sosiyete bitandukanye.

Inyubako zizengurutswe n'igipangu gifite ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru. Kimenyesha abakoresha umuhanda ndetse n'abandi bose kibabwira ko ari mu kigo cya Ngoma secondary school. Iki kigo kikaba kigishirizwamo amasomo atandukanye ndetse n'ubumenyi ngiro.

Inyubako ndende cyane y'igorofa itangirwamo serivisi z'uburezi ahiga abanyeshuri b'amashuri makuru na za kaminuza, imbere yaho kandi hari ubusitani bwiza cyane bufasha abanyeshuri kugerwaho n'umwuka mwiza byose bigaragaza iterambere ndetse n'imizamukire y'ireme ry'uburezi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe bari mu cyumba cy'ishuri, aho bari gukora ibizamini bisoza igihembwe barimo, aho buri munyeshuri yicaye neza yisanzuye bikagaragaza iterambere mu burezi, aho nta bucucike bw'abana bukigaragara mu mashuri ndetse ireme ry'uburezi ritezwa imbere.

Urubyiruko rw'abanyeshuri baturutse mu bigo bitandukanye, aho bahurijwe hamwe kugira ngo baganirizwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi, bigishwa akamaro ndetse n'inshingano zabo mu bihe by'ibiruhuko bagiyemo, birinda kujya mu ngeso mbi ndetse n'ibindi byose byabashora kujya mu ngeso mbi bikabicira ejo hazaza.

Hirya no hino ku mashuri hagaragara ibyumba byagenewe kwigishirizwamo, mudasobwa, ndetse aho abanyeshuri bajya bagakora ubushakashatsi, basoma ibitabo, ndetse banakoresha interineti, mu rwego rwo kubafasha kongera ubumenyi, ibi biragaragaza iterambere mu burezi, ndetse no kuzamuka kw'ireme ryabwo, binyuze mu gukoresha ibikoresho bigezweho bijyanye n'igihe.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano zabugenewe bahetse ibikapu mu migongo aho barikujya muri bisi mu gihe bava ku mashuri. Ibi akaba ari ibigaragaza imbaraga Guverinoma y'u Rwanda ishyira mu burezi aho abanyeshuri bahabwa imodoka zibacyura ndetse n'abakora ku mashuri igihe bajya ndetse banava ku mashuri.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'amashati y'umweru ndetse n'amajipo n'amapantaro by'umukara, aho bahurijwe hamwe kugira ngo bungurane ibitekerezo, imbere yabo kandi hakaba hari itsinda ry'abanyeshuri ririmo kugaragaza ibyo ryakoze ubwo bari bari mu marushanwa ya siyansi ndetse n'ubumenyingiro.

Kimwe mu bigo by'amashuri bifite ibyumba by'amashuri byiza cyane iruhande rwabyo hari ibibuga byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe hari n'ibikorwa byo kwidagadura ndetse bagaragaza impano zabo zitandukanye bafite bikaba ari bimwe bifasha abanyeshuri kwisanzu ndetse no kwishimira , ishuri bityo bikazamura ireme ry'uburezi hirya no hino.

Inyubako ndende cyane ikorera mu ikigo cy'ishuri imbere yayo haparitse imodoka yo mu bwoko bwa bisi yifashishwa mu gutwara abanyeshuri ibakura hirya no hino mu gihugu ibazana ku mashuri, iyi modoka kandi ikaba yifashishwa mu gihe abanyeshuri bataha ibasubiza mu ngo, nka bumwe mu buryo bwo koroshya ingendo ndetse no kunoza serivisi z'imitangire myiza ya serivisi z'uburezi.

Inyubako ndende cyane ifite igisenge cy'ubururu isize amarangi y'umuhondo, iyi akaba ari inyubako y'ishuri rigezweho rya kijyambere. Iruhande rwayo harimo kugenda abanyeshuri aho bari kujya gufata amafunguro mu nzu bafamo amafunguro izwi nka refegitwari, iyi akaba ari muri gahunda zashyizweho na guverinoma y' u Rwanda mu gufasha abanyeshuri kugira imyigire myiza bahabwa amafunguro ku mashuri

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, aho bari ku mirongo mu gitondo mbere y'uko batangira amasomo, baganirizwa n'abayobozi babo bababwira imyitwarire igomba kubaranga, nka bimwe mu biranga ikigo cy'amashuri, aho abanyeshuri batozwa imico, kirazira, ndetse n'indangaciro bigomba kubaranga mu gihe cy'amasomo yabo, ibi bikazamura ireme ry'uburezi hirya no hino mu mashuri.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu bikoresho bifasha mu kwihutisha serivisi ndetse no kunoza akazi iyo bikoreshejwe neza, ndetse n'abanyeshuri ntibasigaye inyuma muri uyu mujyo wo gukoresha ikoranabuhanga, aho bifite ibyumba byihariye bibamo mudasobwa, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, bibafasha kwimenyereza gukoresha ibi bikoresho nka bamwe mu bazaza gusimbura abakora akazi muri iyi minsi, ndetse bagatanga umusanzu wabo mu kubaka igihugu.

Icyumba gicumbikamo abanyeshuri biga mu mashuri makuru, hagaragara ibikoresho bitandukanye bifasha abanyeshuri gukomeza kugira ubuzima bwiza, ndetse banitabwaho harimo nk'ibitanda, matela, ameza, intebe, ndetse n'ibindi bakenera kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amabara menshi kigaragaza aho ishuri rya ekore segondere Butare rikorera. Ibyo akaba ari ibyapa bigaragara hirya no hino mu muhanda, biyobora abantu ndetse binababwira aho serivisi zitandukanye zitangirwa, yaba mu nzego za leta cyangwa se iz'abikorera.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, igizwe n'ishati y'umweru ndetse n'ipantaro cyangwa se ijipo y'umukara, biga mu kigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire St Joseph Birambo, aha hakaba ari aho bahabwa serivisi z'uburezi ziyuranye, bigishwa amasomo y'ingenzi, cyane cyane abafasha gukemura ibibazo biri hirya no hino muri sosiyete.

Mu rwego rwo kunoza ndetse no guteza imbere serivisi z'uburezi Guverinoma y'u Rwanda yubatse ibyumba by'amashuri hirya no hino mu Gihugu mu rwego rwo gufasha abaturage kugerwaho bose na serivisi nziza z'uburezi, ndetse bose ntawe ubuhejweho kandi abanyeshuri bahabwa abarimu ndetse n'ibikoresho by'ibanze bibafasha mu kwigira kwabo hagamijwe kuzamura ireme ry'uburezi.

Hirya no hino mu gihugu leta yubatse ibyumba by'amashuri ku bwinshi, mu rwego rwo gufasha abaturage kwegerezwa serivise z'uburezi, aho abanyeshuri bajya ku mashuri bitabagoye ndetse badakoze n'ingendo ndende, aha ni hamwe mu mashuri aho abanyeshuri barimo gukurikira amasomo yabo, bitabwaho ndetse banahabwa ibyangombwa nkenerwa, kugira ngo bagire imyigire myiza

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho bahurijwe hamwe barimo kuganirizwa n'abayobozi babo ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kugira ngo na bo bajye kuba ambasaderi w'ibyo bumvise, ndetse banatanga amakuru hirya no hino, aho banyuze umunsi ku wundi, bafasha sosiyete kumera neza, ndetse no gutera imbere binyuze mu buvugizi bukorwa n'aba banyeshuri.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, ndetse n'ibisarubeti by'ubururu, aho bari mu nyubako igenewe kwimenyerezamo ndetse no gushyira mu ngiro ibyo biga. Ibi bikagaragaza iterambere mu burezi, aho abanyeshuri barushaho gushyira mu bikorwa ibyo biga, bikaborohereza kwitegura kuza gusubiza ibibazo bitandukanye hirya no hino muri sosiyete, ndetse banatanga umusanzu wabo mu kubaka Igihugu.

Ibyumba by'amashuri byubatse mu buryo bwa kijyambere bwigikwamo n'abanyeshuri batandukanye, imbere yabyo haparitse imodoka nziza ndetse hari n'ubusitani bwifashishwa gutanga umuyaga ku banyeshuri biga muri iki kigo bikazamura imyigishirize ndetse n'imibereho myiza y'abanyeshuri bigira muri iki kigo.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe bicaye hasi mu kibuga cy'ishuri, aho barimo kuganirizwa n'abayobozi mu nzego za Leta, babwirwa uruhare rwabo mu kugeza iterambere ku baturage, ndetse ko bagomba gushyira imbaraga mu masomo yabo kuko ari bo Leta yitezeho kuza gukemura ibibazo biri hirya no hino muri sosiyete.

Mu rwego rwo kwegereza uburezi abaturage hirya no hino mu Gihugu Leta yahubatse ibyumba by'amashuri bitandukanye bifasha abatuye muri utwo duce kugerwaho na serivisi z'uburezi, ndetse abanyeshuri bahabwa amahirwe angana nka kimwe mu bifasha kuzamura ireme ry'uburezi n'umusingi w'iterambere mu gihe kizaza.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'ishati y'umweru ndetse n'amajipo ya kaki aho bari kwinjira mu cyumba bafungura amafunguro kizwi nka refegitwari ibyo abanyeshuri bahabwa hijya no hino ku mashuri mu rwego rwo kubafasha kugira imibereho myiza bityo hagamije kuzamura ireme ry'uburezi.

Leta y'u Rwanda yubatse ibigo by'amashuri hirya no hino hagamijwe kwegereza uburezi abanyeshuri; aho nta munyeshuri ukora urugendo rurenze amasaha ajya ku ishuri, ahubwo amashuri abegere hirya no hino, kandi bashyize ibikorwa remezo bitandukanye ndetse n'ibikoresho bifasha abanyeshuri kugira ngo hazamurwe ireme ry'uburezi hirya no hino mu mashuri.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri ndetse na mwarimu wabo hagaragara kandi n'ibikoresho byifashishwa n'aba bombi muri gahunda z'uburezi zinyuranye, harimo: intebe, ameza, imbaho ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu ishuri ndetse amashuri akaba agaragara hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo gufasha abaturage kubona serivisi z'uburezi hirya no hino mu gihugu.

Urubyiruko rw'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, igizwe n'udupira tw'ibara ry'umweru ndetse n'amajipo ya kaki n'amasogisi y'umweru, aho izengurutse uruziga baganirizwa n'abayobozi babo ku myitwarire igomba kubaranga mu gihe bari mu biruhuko, ibarinda kujya mu ngeso mbi ndetse no kwishora mu bishuko bishobora kubicira ejo habo heza hari imbere.

Kimwe mu byumba by'amashuri byubatswe na leta y'u Rwanda hirya no hino mu gihugu, mu rwego rwo kwegegeza uburezi abaturage, aho amashuri yegerejwe hirya no hino mu tugari ndetse no mu midugudu mu rwego rwo gufasha abanyeshuri kudakora ingendo nini bajya ku mashuri bimwe mu byagaragazaga imbogamizi mu gihe byari bimeze uku.

Abanyeshuri bambaye impuzankano igizwe n’ibisarubeti bifite ibara ry’umukara, aho barimo kugerageza imashini bigiraho, ibafasha mu kunoza akazi kabo ka buri munsi. Ibi bikaba ari ibiboneka hirya no hino ku mashuri, mu rwego rwo kugaragaza ireme ry’uburezi, ndetse no guteza imbere abiga mu mashuri bamenyerezwa ibibazo ndetse n’ibyo bazakora hanze, bakemura ibibazo sosiyete ifite muri rusange.

Abagabo ndetse n'abagore ubwo bari mu ibikorwa byo gufungura ibyumba by'amashuri byari byuzuye hamwe mu mudugudu igize akarere mu gihugu cy'u Rwanda. ibi bigaragaza iterambere mu burezi aho amashuri yubakwa hirya no hino mu gihugu no gufasha abaturage kugerwaho na serivisi z'uburezi aho abana babona amashuri bigamo badakoze urugendo, ibi bikoroshya imigendere ndetse n'imitangire myiza ya serivisi z'uburezi.

Kimwe mu byumba bicumbikwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri makuru na Kaminuza aho bahabwa ibikoresho by'ibanze bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi harimo nk'intebe, ameza, utubati ndetse n'ibindi bakenera bibafasha kugira imibereho myiza. Bityo bakabasha kubyara amasomo yabo nta nkomyi.

Imwe mu nyubako zicumbikwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza igaragaramo ibikoresho by'ibanze. Ibinkenerwa n'abanyeshuri harimo nk'ibitanda amazi intebe ameza utubati matela ,ndetse n'ibindi byose byabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi bugamije ko bazamura ireme ry'uburezi.

Hirya no hino mu bigo by'amashuri hagaragara ibikorwa remezo bitandukanye, bifasha abanyeshuri kwidagadura, kwisanzura, ndetse no kugaragaza impano zabo, aho kandi hari n'udusanduku tuba twaragenewe gushyirwamo ibitekerezo, bityo bikaba byagenderwaho mu gihe abanyeshuri bafatirwa imyanzuro, cyangwa se hari ibikorwa runaka bigiye kuba mu kigo.

Icyumba cy'ishuri kigiramo abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, hagaragaramo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'aba banyeshuri harimo nk'intebe, ameza, ndetse n'utubati, hagaragara kandi ibikoresho by'ikoranabuhanga bifasha abarimu gusakaza amasomo mu gihe barimo gutanga amasomo ku banyeshuri nka mudasobwa, ndetse n'ibindi.

Abanyeshuri bari mu bikorwa by'ubushakashatsi bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa, bicaye bazengurutse ameza cyane iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'uburezi, ko abana bagomba gukoresha ikoranabuhanga ndetse n'ibi bikoresho bijyanye n'igihe mu gushaka ubumenyi ndetse no gukora ubushakashatsi ku masomo yabo ya buri munsi.

Abanyeshuri bari mu cyumba cyagenewe gushyira mu ngiro ibyo biga, kigaragaramo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'aba banyeshuri, bakora ndetse banashyira mu ngiro ubumenyi baba bakuye mu mashuri, bizwi nka raboratwari ahagaragara kandi ibikoresho by'umwimerere byifashishwa n'aba banyeshuri mu gushyira mu ngiro ayo masomo baba bigiye mu ishuri.

Abanyeshuri bari mu cyumba cyagenewe kubafasha mu kuzamura ireme ry'uburezi bashyira mu ngiro ibyo biga izwi nka laboratware, hagaragara kandi ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarezi ndetse n'abarimu mu gihe bari gushyira mu ngiro ibyo bigira mu mashuri igihe kinini, harimo nka mudasobwa, ibikoresho byo muri laboratwari ndetse n'ibindi.

Inyubako nyinshi cyane zubakishije amatafari ahiye. Imbere yazo hari ubusitani bwiza ndetse n'utuyira twagenewe abanyamaguru, ndetse n'ibyapa bitandukanye. Aha hakaba ari mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyi ngiro rya IPRC ishami rya Huye, ahatangirwa amasomo atandukanye y'ubumenyi ngiro, aho abanyeshuri baza bagahabwa ubumenyi ndetse n'amasomo, bitanga umusanzu wabo mu kubaka igihugu.

Icyumba cy'inama cyahuriyemo abanyeshuri ndetse n'abayobozi, barimo kungurana ibitekerezo baganira ku ngingo zitandukanye, cyane cyane hibandwa ku myitwarire igomba kubaranga, ndetse n'akamaro kabo sosiyete bategerejeho ejo hari imbere, nka bamwe mu bantu bahabwa ubumenyi bwisumbuye.

Ku ishuri, icyumba cyagenewe gusobanurira n'ho abanyeshuri bahurira hamwe bakungurana ibitekerezo bakomeza kuganira ku masomo bigishwe ndetse banafashanya hagati yabo, aho kandi hagaraga ibikoresho bitandukanye byifashisha harimo nk'intebe, ameza, utubati ndetse n'ibindi.

Hirya no hino mu mashuri yigisha ubumenyi ngiro ndetse na siyanensi hagaragara ibyumba byagenewe abanyeshuri, aho bajya gushyira mu ngiro ibyo biga bizwi nka laboratwari, aha kandi hakaba harimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe gushyira mu ngiro ibyo biga, ndetse banazamura ireme ry'uburezi.

Inzu mberabyombi iri mu kigo cy'ishuri, ahagaragara ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga inama ku bantu benshi, ndetse n'abantu bafite ibikorwa bitandukanye bikenewe guhurizwa ahantu hamwe. Hagaragaramo intebe, ameza, utubati ndetse n'ibikoresho by'ibanze nkenerwa, kugira ngo abantu benshi bahurizwe hamwe.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu bikoresho byifashishwa kuri ubu hirya no hino, mu nzego zitandukanye yaba iz'abikorera ndetse n'iza leta, aho kandi ibikoresho bitandukanye bigaragara hirya no hino, byifashishwa mu kuzamura imitangire ya serivisi, bityo bikagaragaza umusaruro mwinshi mu ngeri zose z'abaturarwanda.

Inyubako ndende cyane ifite igisenge cy'umutuku isize amarangi y'umuhondo y'igorofa, ikikije uruzitiro rwiza cyane, iyi akaba ari inyubako icumbikwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye aho bitabwaho ndetse bagakora n'ibindi bikoresho by'ibanze bakeneye, kugira ngo hazamurwe ireme ry'uburezi ndetse n'imibereho byabo mu gihe bari ku mashuri.

Umubyeyi wambaye ikanzu ifite amabara, afite indangururamajwi, inyuma ye hari icyapa, aho ari mu bikorwa byo guhugura abanyeshuri biga mu ishuri rikuru rya Kaminuza rya IPRC Kitabi. Aho bari kungurana ibitekerezo, bagirwa inama y'uko bashyira mu ngiro ibyo biga, nka bimwe mu byafasha gukemura ibibazo bigaragara hirya no hino muri sosiyete.

Hirya no hino ku bigo by'amashuri hagaragara icyumba cyagenewe umukobwa. Iki akaba ari icyumba umwana w'umukobwa ugize ikibazo runaka yaba kujya mu mihango cyangwa se ibindi ashobora kujyamo agakoreramo isuku, ndetse agakomeza ubuzima bw'ishuri nkaho nta cyabaye. Ibi byumba bikaba byarubatswe hirya no hino ku bigo by'amashuri ku bufatanye na Guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo kuzamura ireme ry'uburezi.

Abagore babiri bambaye amashati y'uburu ndetse n'ipantaro y'umukara bari mu bikorwa byo gukubura imihanda igana mu ishuri rikuru rya kaminuza y'u Rwanda. Ibi akaba ari mu rwego gufasha abaturage kugira ubuzima bwiza hakorwa isuku hirya no hino ndetse banazamura ireme ry'uburezi muri rusange.

Amasomero ni kimwe mu bikorwa remezo bigaragara hirya no hino mu mashuri ndetse n'ahandi hantu hahurije abantu benshi, aho abantu bashahora gusoma ndetse bakiyungura ubumenyi, binyuze mu bitabo bigaragara mu masomero, ndetse bakabasha no kwiyungura ubumenyi bundi butandukanye, mu ngingo zitandukanye.

Umuhanda munini nyabagendwa wubatse n'amabuye urimo kunyuramo ibinyabiziga ndetse n'abantu, iruhande rwawo ari icyapa kirimo ibara ry'umweru cyanditseho amagambo mu mabara y'ubururu ndetse n'umukara, iki kikaba kimenyesha abakoresha umuhanda ndetse kinarangira abandi kibereka ahatangirwa serivisi runaka.

Umuganga uvura amatungo yambaye uturindantoki ndetse arimo gukora avanga imiti itandukanye agiye kuvurisha amatungo. Bikagaragaza iterambere mu bice by'ubworozi aho amatungo yitabwaho agahabwa imiti ndetse n'inkingo bikenewe, hagamijwe ko umusaruro wayo wiyongera.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bakurikiye amasomo ari gutangwa n'umwarimu hifashijwe uburyo bw'iyakure, ibi akaba ari bimwe mu bigaragaza ikoranabuhanga ryashyizwemo imbaraga hirya no hino mu gihugu ndetse n'amashuri hatibagiranye aho abanyeshuri bikoresha ikoranabuhanga mu kunoza imyigire yabo.

Inyubako ifite igisenge cy'umutuku isize amarangi y'umweru ndetse yubakishije amabuye, imbere yayo hari ubusitani bwiza ndetse hamanitse n'icyapa kigaragaza igikorerwa muri iyi nyubako, ibi byapa bigenda bigaragara hirya no hino bikaba bifasha abaturage ndetse n'abandi bashaka serivisi ibayobora bereka aho serivisi runaka zibarizwa.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ya kaminuza, aho bari gukurikira amasomo ari gutangwa n'umwarimu imbere yabo, yifashishije ikoranabuhanga, aho ari gukoresha imashini isakaza amashusho, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, bikagaragaza imitangire myiza, serivisi z'uburezi, ndetse n'iterambere mu burezi, hifashishijwe ibikoresho bijyanye n'igihe.

Inyubako nyinshi zubatse ku murongo, imbere yazo hateretse amajerekani ndetse hari n'ubusitani. Aya akaba ari amacumbi acumbikwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda. Aho bahabwa ibikoresho by'ibanze bibafasha mu macumbi harimo nk'amazi, umuriro, intebe, ibitanda ndetse n'ibindi bakenera kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abanyeshuri bambaye amataburiya bari mu nyubako zagenewe kubimenyerezamo ndetse no gushyira mu ngiro ibyo biga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Hagaragara kandi ibikoresho bitandukanye byifashisha nk'imashini, amafirigo ndetse n'ibindi, byose bikangurira ko bazamura ireme ry'uburezi bahabwa bityo bakaba igisubizo ku bibazo bitandukanye bigaragara muri sosiyete.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mu kwihutisha iterambere ndetse no kunoza akazi gakorerwa hirya no hino mu nzego zitandukanye yaba iza Leta ndetse n'iz'abikorera. Ni na yo mpamvu abantu benshi na bo batasigaye inyuma ahubwo bahugurwa ndetse bakigishwa kumenya gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga nka bamwe mu bazaza gukora mu minsi iri imbere muri sosiyete bakemura ibibazo bitandukanye bihari.

Mu byumba bicumbikira abanyeshuri biga muri Kaminuza hagaragara ibikoresho bitandukanye bibafasha kugira ubuzima bwiza hagamijwe ko uburezi bahabwa bugira ireme ndetse bakabasha no kubaho neza. Harimo nk'intebe, ameza, utubati, Ibitanda ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abanyeshuri bambaye amataburiya bari mu cyumba cya Laboratoire, aha akaba ari bashyirira mu ngiro y'ibyo biga hirya no hino mu mashuri, hagamijwe kuzamura ireme ry'uburezi ndetse banerekwa uruhare rwabo mu gukemura ibibazo bitandukanye biri muri sosiyete, bifashishije ubumenyi bakura mu mashuri.

Umugabo wambaye ikoti y'umukara ndetse n'ishati y'umweru n'amadarubindi wifashe mu mufuka, arimo kwitegereza ibikoresho by'ikoranabuhanga, bigaragara mu nyubako y'ikigo cy'ishuri izwi nka laboratware. Ahakaba ari abanyeshuri bimenyereza, ndetse banashyira mu ngiro ibyo biga umunsi ku wundi.

Ibyumba by'amashuri bigaragara hirya no hino mu gihugu ni bimwe mu byashyizwemo imbaraga n'imiyoborere y'u Rwanda, mu rwego rwo gufasha abaturage bose bari mu gihugu kugerwaho n'uburezi kandi bwiza. Bigafasha ndetse bigafasha ndetse bikorohereza abanyeshuri aho biga hafi yabo, badakora ingendo bigamije byose kuzamura imitangire myiza ya serivisi z'uburezi

Mu cyumba cy'ishuri ahagaragara ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarezi ndetse n'abanyeshuri, mu gihe barimo guhabwa amasomo yabo. Higanjemo intebe, ameza, utubati, imbaho. Ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusakaza amashusho, igihe abanyeshuri barimo gukurikira amasomo yabo.

Abaturage benshi bahuriye mu cyumba k'inama, aho bari kungurana ibitekerezo, barebera hamwe icyakorwa kugira ngo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi uboneke ku bwinshi, bityo abaturage bakomeze kugira imibereho myiza, barimo gushaka kandi ibisubizo bitandukanye, ku bibazo byagaragajwe n'abaturage, ndetse n'abakora umwuga w'ubuhinzi ndetse n'ubworozi.

Hirya no hino ku mashuri ndetse n'ahandi hatandukanye hagaragara amasomero, aya akaba ari afasha abanyeshuri, abarimu, ndetse n'abandi bashaka kwiyungura ubumenyi, aho basoma ibitabo bitandukanye bakora ubushakashatsi, byose bigamije ko biteza imbere ndetse baniyungura ubumenyi, ibi kandi bikaba bigaragaza ireme ry'uburezi riteye imbere, aho abanyeshuri babona ibikoresho bya ngombwa nkenerwa, mu myigire yabo ya buri munsi.

Imwe mu nyubako zicumbikwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri makuru nka kaminuza, hagaragara ibikoresho by'ibanze bakenera, harimo nk'ibitanda, intebe, imyenda, ndetse n'ibindi bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu kiri rwagati mu ishuri rikuru rya Kaminuza y'u Rwanda, aho kiyobora abakoresha iki kigo ndetse n'abandi basura iki kigo, kibamenyesha ibyerekezo bitandukanye, nk'uko bigaragara hirya no hino ku nyubako za Leta ndetse n'andi hahurira abantu benshi.

Uruzitiro rukikije ikigo cy'amashuri cyigishirizwamo abana, ndetse kigatangirwamo n'izindi serivisi z'uburezi zinyuranye, aha hakaba hari abana babona ubumenyi bw'ibanze bakenera bw'amasiyansi ndetse n'ubumenyingiro, bibafasha mu kwiteza imbere ndetse no kubaka igihugu cyabo binyuze ku bumenyi baherewe muri aya mashuri.

Inyubako nziza cyane isize amarangi y'umweru irimo ibikoresho bitandukanye ikigo gicumbikamo abanyeshuri biga mu mashuri makuru na za kaminuza ahagaragara iteme ameza, utubati, ututajeri tw'inkweto ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze bibafasha kugira ubuzima bwiza.

Icyapa kiri ku muhanda munini wa kaburimbo; kinini cyaka kigaragaza ahakorera ishuri ry'imyuga ndetse n'ubumenyi ngiro rya IPRRC ishami iryariryo rya Huye, aho higirwarwa ubumenyi butandukanye bwiganjemo ubukorikori, ubumenyingiro ndetse n'ibindi byifashishwa nk'abanyeshuri ndetse n'abaturage hirya no hino mu gihugu.

Abanyeshuri bicaye mu cyumba cy'ishuri bifashisha ibikoresho byabugenewe byiganjemo intebe ndetse n'ameza, aho bari gukurikirana amasomo yabo bigishwa n'umumama uhagaze imbere yabo kandi uri kwifashisha ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, harimo nk'insakazamashusho, mudasobwa ndetse n'ibindi, byose bigaragaza iterambere mu burezi.

Hirya no hino ku mashuri cyane cyane aya kaminuza hagaragara inyubako zagenewe gutanga amafunguro ku banyeshuri biga muri kaminuza. Iki akaba ari icyapa kigaragaza imwe muri resitora zigaburira abanyeshuri biga muri kaminuza izwi nk'umucyo, aho abanyeshuri babona amafunguro abafasha kugira ubuzima bwiza.

Inyubako ndende y'igorofa isize amarangi y'umuhondo ikikiwe n'ubusitani bwiza cyane, iyi nyubako ikaba ari imwe mu zigirwamo n'abanyeshuriga muri kaminuza y'u Rwanda ikaba ifite ibikoresho byose by'ibanze nkenerwa ku munyeshuri kugira ngo yige neza ndetse ana bashe guhangana ku isoko ry'umurimo ugendeye ku burezi aba yakuriye mu mashuri.

Inyubako nini cyane irimo ibikoresho bitandukanye, nk'ameza, intebe ndetse n'ibindi, hakaba ari mu cyumba cyagenewe gufatirwamo amafunguro n'abanyeshuri mu, gihe bari ku ishuri ahazwi nka refegitwari, aho abanyeshuri bahabwa amafunguro agamije ko bazamura imibereho yabo, ndetse n'ireme ry'uburezi muri rusange.

Akameza gakoze mu biti gateretse muri kimwe mu byumba byigishirizwamo muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Imbere yaho kandi hari ikibaho cyagenewe kwandikwaho n'abarimu mu gihe barimo kwigisha. Byose hakaba ari ibindi bikoresho biboneka hirya no hino mu mashuri bifasha abarezi ndetse n'abanyeshuri kunoza imitangire myiza ya serivisi z'uburezi.

Inzu mberabyombi yo mu kigo cy'ishuri irimo ibikoresho bigezweho kandi bijyanye n'igihe aho abanyeshuri bahurizwa hamwe igihe bagiye kuganirizwa n'inzego z'ubuyobozi ndetse banungurana ibitekerezo. Ahagaragara ibikoresho byihariye by'ikoranabuhanga nka mudasobwa ndetse n'ibindi byose byifashishwa mu kunoza imitangire myiza ya serivisi z'uburezi.

Hirya no hino mu mashuri hagaragara ibikorwaremezo bitandukanye, iyi akaba ari inyubako izwi nka laboratwari aho abanyeshuri bajya gushyira mu ngiro ibyo bize, bafashijwemo n'abarimu babo, hagaragaramo ibikoresho bitandukanye byifashisha, ndetse n'ibindi bakenera byose bigaragaza iterambere mu burezi, aho abanyeshuri bahabwa ubumenyi bw'ingenzi bakeneye.

Icyumba kinini cyane cyagenewe gukorerwamo imikino ndetse n'imyitozo ngororamubiri imyidagaduro n'ibindi bitandukanye mu rwego rwo gufasha abanyeshuri kuruka mu mutwe ndetse no kugaragaza impano zabo, nka bimwe mu bibafasha kwishimira ndetse no gukunda ishuri bityo bakarikorana umutima wabo ukunze, bagaragaza uruhare rwabo mu kubaka sosiyete.

Amasomero ni kimwe mu bikorwa remezo biboneka hirya no hino mu mashuri ndetse n'ahandi hahurira abantu benshi, aho abanyeshuri babona uko bakora ubushakashatsi, biyungura ubumenyi ku masomo bagize, bityo bikabafasha kuzamura ireme ry'uburezi, aho kandi bigaragaza iterambere mu burezi, aho abanyeshuri babona ibyangombwa byose nkenerwa mu gukora ubushakashatsi bujyanye n'amasomo biga.

Icyumba cy'inama cyahuriyemo abanyeshuri biganjemo urubyiruko ndetse n'abakuze biga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye. Aho kandi bari bahuriye kugira ngo bungurane ibitekerezo n'abayobozi babo hareberwa hamwe icyakorwa kugira ngo bagire uruhare ndetse n'umusanzu wabo mu kubaka Igihugu, binyuze mu guhugura abaturage ku bumenyi butandukanye.